Igice cy'ishuri ribanza rifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara gishushanyijeho amagufa agize umuntu, ibi ni bimwe mu bituma abanyeshuri bamenya imiterere ndetse n'imikorere y'umubiri w'umuntu.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu, bicaye mu cyumba cy'ishuri ku ntebe zabo, aba bakurikiye mwarimu wabo uri imbere ku kibaho abigisha isomo ryimibare.

Urukuta rw'ishuri ribanza ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, kuri uru rukuta hashushanyijeho ibikoresho by'ubuhinzi birimo nk'umuhoro, igitiyo, isuka ndetse n'ingorofani.

Inzu zubatse neza ndetse zifite n'ibitwara amazi y'imvura, zisakaje amabati ndetse mu marembo yazo harimo umuntu wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'umukara, imbere yazo na nanone kandi hari igikoresho gikoreshwa mu kuvoma amazi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye imyambaro ifite amabara y'icyatsi kibisi barimo umuhungu ndetse n'umukobwa, umwe muri bo ahetse agakapu mu mugongo atwaramo amakayi iyo ava ku ishuri cyangwa se ajyayo.

Udukoresho ndetse n'udukinisho turi mu mabara y'umuhondo, ubururu, umutuku n'icyatsi kibisi. Utu turi mu mashusho y'abantu ndetse turerekana ubutumwa bw'ubufatanye abantu bagomba kugira kugira ngo bagere kuri byinshi.

Ku ishuri ribanza, ritanga uburere n'uburezi bufite ireme, hariho umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'umukara. Hariho kandi igishushanyo k'itungo ryo mu rugo ryitwa ipusi.

Ibice byombi imbere mu mubiri w'umuntu bishushanyije ku rukuta rw'ishuri ryigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ibi bifasha abo banyeshuri kumenya uko umubiri w'umuntu uteye haba imbere n'inyuma.

Inzu ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi burimo ubw'imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bintu bikenerwa mu rugo, imbere yayo hari ikinyabiziga cy'ipikipiki gitwara abantu n'ibintu, hari kandi n'umufuka urimo ibicuruzwa.

Umwarimu w'umugabo wigisha mu mashuri y'inshuke, ari ku rukuta rw'ishuri rushushanyijeho imboga n'imbuto, zirimo inanasi, ibishyimbo n'ibindi, uyu ari kubyigisha umunyeshuri wiga muri ayo mashuri wambaye umwambaro w'icyatsi kibisi.

Umwarimu wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo w'icunga ndetse n'umukara, ari kumwe n'umunyeshuri we wiga mu mashuri abanza, uyu ari kumwigisha kwandika ku kibaho ndetse anafite indangururamajwi.

Iruhande rw'ibendera hari abarimu barimo umwe w'umugabo ndetse n'undi w'umugore bambaye imyambaro y'akazi, hari kandi n'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu n'kigina, aba bose bari ku ishuri.

Ribanza rifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru. Ku rukuta rw'iri shuri hashushanyijeho ibikomoka ku buhinzi birimo ibitoki byera bigakurwamo imineke. Hariho kandi n'uko igihingwa cy'igishyimbo kigenda gikura.

Ababyeyi b'abagore ndetse n'abana babo bari ahantu hari ibyicundo bishimisha abana, aba bazanye abana babo kugira ngo babyicundemo maze bishimishe, ni na ko kandi abo bana baba basabana bityo bigatuma bakuza ibijyanye n'amarangamutima yabo.

Ishuri ribanza ritanga uburezi bufite ireme, imbere yaryo hari abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'ubruru ndetse n'umweru, umwe muri bo afite ibitabo n'amakayi ahagaze ku rukuta kandi rushushanyijeho igikoresho gikoreshwa mu buhinzi cyitwa ingorofani.

Ishuri ryigisha abana biga mu mashuri abanza, hari abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu, ku rukuta rw'iryo shuri kandi hashushanyijeho ibimera bitandukanye birimo igiti kirekire ndetse n'igishyimbo uko kigenda gikura kuva ari urubuto kugera kibaye igihingwa gikuru.

Urukuta rw'ishuri ribanza rufite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, kuri uru rukuta hashushanyijeho isazi, ifite amaso manini ndetse n'amaguru n'amababa, ibi bifasha abanyeshuri mu kumenya imiterere y'utunyamaswa.

lbikoresho ndetse n'ibikinisho bikoze mu mashusho y'utunyamaswa dushimishije, hari kandi n'itungo ryo mu rugo rifite amabara y'umukara, umweru ndetse n'ikigina ryitwa imbwa, hari kandi n'intebe nini ikoze mu biti.

Agakinisho k'abana gafite amabara y'umuhondo n'ubururu. Aka gakinisho kandi kariho udushushanyo twiza tw'inyenyeri. Aka kandi gakoreshwa mu kwifuriza isabukuru y'amavuko abayigize cyane cyane abana bakiri bato.

Akanyugunyugu keza k'amabara harimo umuhondo, umweru n'umukara, aka kari ku rurabo aho kari kwihumuriza ndetse no guhova kugira ngo kabashe kubona ibigatunga.

Urukuta rw'ishuri rumanitseho udushushanyo twiza dufasha abanyeshuri kugirango bagire ubwenge, hari kandi n'utubati tubikwamo ibikoresho birimo nk'amakayi ndetse n'ibitabo abo banyeshuri bakoresha iyo bari kwiga.

Udukoresho ndetse n'udukinisho dukoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke. Aha harimo udukoresho dukoreshwa mu bwubatsi, urugero twavugamo nk'inyundo ihonda imisumari kugira ngo yinjire mu rubaho.

Inzu nziza cyane yubakishije amatafari ndetse isize amarangi arimo umuhondo n'ubururu, iyi ikorerwamo ibijyanye no kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, ku nkuta zayo hashushanyijeho ibintu bituma abanyeshuri bamenya amazina y'ibintu bitandukanye.

Ishuri ryiza cyane rifite amabara y'umweru ndetse rinasakaje amabati, inyuma yaryo hari ibiti binini by'inganzamarumbo, imbere yaryo kandi hari ikibuga gikinirwamo umukino w'intoki.

Inzu za kaminuza zigirwamo n'abanyeshuri zubakishije amatafari ndetse n'isima, iruhande rw'izo nzu hari igiti kinini cy'umwembe ndetse kandi hari n'izindi ndabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Inzu nini cyane, yubakishije amatafari ahiye, ikorerwamo ibijyanye n'uburezi bw'abana biga mu mashuri abanza, iyo nzu ifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse imbere yayo, hari ibiti byo mu bwoko bwa Gereveyo.

Inziga ebyiri zishushanyishije amabara y'umukara ndetse zifite ubuso bw'umweru, izi nziga zishushanyijemo inyuguti ndetse ni zimwe mu bikoreshwa n'abarimu iyo bari kwigisha isomo ry'imibare mu mashuri cyane cyane abanza.

Ibitabo bikoreshwa mu kwigisha abana cyanecyane abiga mu mashuri abanza, ibi bitabo birimo ubumenyi buhagije butuma abana bamenya amazina y'ibikoresho bitandukanye ndetse n'imikorere y'imibiri yabo bityo bigatuma bimenya bo ubwabo.

Ishuri ryigishirizwamo abanyeshuri biga mu mashuri abanza rifite amabara y'ubururu n'umweru. Inyuma yaryo kandi hari ibiti binini by'inturusu. Imbere yaryo hari ubusitani bugizwe n'indabo zifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi.

Igitabo gikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo bamenye ururimi rw'Ikinyarwanda. Muri icyo gitabo harimo inkoko ifite utwana tw'udushwi aho iri kuducira umugani.

Ishuri ryiza cyane ry'amashuri yisumbuye ryubakishije amatafari ahiye n'isima, iri shuri risakaje amabati ndetse imbere yaryo hari ibiti bizitiye neza kugira ngo abanyeshuri batazakinira iruhande rwabyo maze bakabyangiza.

Igishushanyo cyakozwe n'abanyeshuri biga mu mwaka w'amashuri abanza, iki kirerekana umugabo w'indwanyi wambaye imyambaro ifite amabara y'umuhondo n'umweru, uyu kandi afite icumu rityaye mu ntoki aho yiteguye kurwanya umwanzi.

Inkweto ndende zifite ibara ry'umukara zikunda gukoreshwa mu mirimo, hari kandi n'uturindantoki dutuma umuntu uri gukora akazi atandura cyangwa se ngo abe yagira impanuka mu kazi, hari kandi n'agapfukamunwa karinda umuntu kuba yagira ibintu yakwandura ari mu kazi binyuze mu mazuru.

Inyubako y'ishuri yubatswe mu buryo bugerekeranije ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, imbere y'iyo nyubako hari indabo nziza zifite amabara y'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'ubwatsi butoshye, aha niho abanyeshuri bakunda kwicara iyo bari mu gihe cyo kuruhuka baganira ku masomo yabo ndetse n'ubuzima busanzwe.

Ibitabo bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ibi bibafasha kumenya imibare, ubugeni ndetse n'ibindi byose bituma bazagira icyo bimarira mu buzima bwabo ndetse bakavamo abantu bakomeye.

Icyumba cyubatse mu buryo buteye imbere gifitemo amarangi ubururu ndetse n'umweru. Harimo kandi intebe ndetse n'ameza abanyeshuri bakoresha iyo bari gukurikirana amasomo yabo cyangwa iyo bari kuyasubiramo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano zifite amabara y'ubururu bari mu ishuri rinini. Aba bari gusangira indyo yuzuye. Hari kandi n'imbago ikoreshwa n'umwe muri aba banyeshuri ufite ubumuga.

Icyumba cy'ishuri cyigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke. Muri iki cyumba harimo ameza akoze mu ishusho y'uruziga, intebe zikoze mu biti ndetse n'utubati tubikwamo amakayi n'ibitabo, abo banyeshuri bakoresha.

Itsinda ry'abagabo ndetse n'abagore bakora mu bijyanye n'uburezi bari imbere y'inyubako y'ishuri yubakishije amatafari ahiye n'isima ndetse ifite n'inzugi z'ubururu, hirya yazo kandi hari ibiti binini by'inganzamarumbo byera avoka.

Imbere y'inzu ikorerwamo ibijyanye no kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke hari ibyicundo ndetse n'ibikinisho by'ubwoko butandukanye, ibi ni bimwe mu bibafasha kugira ngo bagire ubwenge maze bazagire icyo bimarira mu minsi iri imbere.

Amazu meza yubatswe mu buryo bugezweho afite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, aya akorerwamo ibijyanye no kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, mu mbuga yayo kandi afite ibiti by'inganzamarumbo abanyeshuri bicaramo iyo bari kuganira.

Udukinisho dukoze mu mashusho y'abantu dufite imitwe ndetse n'amaguru turi mu mabara atandukanye, utu dukinisho dukoze uruziga ndetse hagati yatwo harimo ishusho y'umubumbe w'isi, ibi ni bimwe mu byo abarimu bakoresha iyo bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Inyubako z'amashuri yubakishije amatafari ahiye ndetse zifite amadirishya afite ibara ry'icyatsi, inyuma y'izo nyubako hari ibiti birebire byo mu bwoko bw'inturusu ndetse n'igihingwa cy'ibigori.

Igitabo gifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku weruye. Iki gitabo kibamo ubumenyi buhagije butuma abanyeshuri bamenya byinshi ku bikoresho bikoreshwa mu rugo ndetse no mu nganda.

Umugore ukiri muto ukora umwuga w'ubwarimu yambaye itaburiya ifite amabara y'umweru, uyu ari mu ishuri aho ari gutoza umunyeshuri we wambaye impuzankano z'umukara uko bandika ku kibaho cyo mu ishuri.

Amakaramu yaba akoreshwa mu kwandika ndetse no gushushanya afite amabara atandukanye arimo umuhondo, umweru ndetse n'umukara, hari kandi n'ibitabo bikoreshwa n'abanyeshuri iyo bari kwiga n'amakayi bandikamo.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bugerekeranyije ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere y'iyo nyubako hari umugabo uyirindira umutekano, ikaba ikorerwamo ibijyanye no kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Inyubako zikorerwamo ibijyanye no kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza, izi zituranye n'umurima munini urimo igihingwa k'ibigori bikiri bito ndetse bibagariye, harimo kandi n'igiti cyo mu bwoko bwa Gereveriya.

Ibitabo mfashanyigisho bikoreshwa mu kwigisha indimi mu mashuri abanza, muri byo harimo ibiri mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'ibiri mu ururimi rw'Icyongereza, ibi byose bifasha abanyeshuri kugira ngo babashe kumenya indimi zitandukanye.

Ibikoresho abarimu bakoresha iyo bari gutegura ndetse no kugeza amasomo ku banyeshuri babo. Ibi birimo ibikoreshwa mu gupima uburebure ndetse n'ubutambike, ibifasha guca imirongo ndetse n'inziga n'ibindi.

Igitabo gikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri ururimi rw'ikinyarwanda mu mashuri cyane cyane abanza, iki gitabo kandi kirimo umugani wa bakame ndetse n'inzovu, aho bakame yashatse kwigira umwami w'ishyamba maze ikarusha ubwenge izindi nyamaswa.

Itsinda ry'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bafite ibitabo byabo mu ntoki. Aba bari kumwe n'umwarimu wabo wambaye agapfukamunwa kamurinda kwandura cyangwa kwanduza indwara z'ubuhumekero.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye wambaye impuzankano zifite amabara y'umweru n'umukara, uyu afite igikombe yatsindiye mu marushanwa ahuza ibigo bitandukanye mu bijyanye n'imikino.

Abanyeshuri ba kaminuza bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru n'umukara, bari munsi y'igiti kinini cy'inganzamarumbo, aho bari gukaraba intoki zabo kugira ngo batanduzanya indwara ziterwa n'umwanda.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, sima isakaje n'amabati, iyi nzu ni imwe mu bigize ikigo cy'ishuri ndetse ikorerwamo ibijyanye no gufasha abakobwa, cyane cyane iyo bageze mu gihe cy'imihango batiteguye.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye mu bijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, by'umwihariko abiga ubutetsi, bahuriye hamwe mu ishuri rinini, aba bari guhabwa ikiganiro n'umugabo uri imbere yabo, wambaye imyenda ifite amabara y'umuhondo n'umukara.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro ifite amabara y'ubururu, aba biga mu ishami rijyanye no gukora amashanyarazi ndetse bari mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi, aba kandi bambaye uturindantoki bari no gukoresha ibikoresho bituma badafatwa n'umuriro.

Mu cyumba cy'ishuri, ryubakishije amatafari ndetse n'isima, harimo n'ikibaho cy'umukara, harimo abarimu bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, aba bari kuganira umwe muri bo anakosora impapuro zakoreweho n'abanyeshuri be.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano zifite amabara y'umuhondo' icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, bateraniye hamwe mu nzu iberamo imikino ndetse n'imyidagaduro, aba bakurikiye umukino uri kubera imbere yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano zifite ibara ry'ikigina ndetse n'ubururu, bari kwinjira mu ishuri ryabo, aho babanza gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune kugira ngo batanduzanya indwara.

Icyumba cy'ishuri ryisumbuye ririmo abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, aba bicaye neza ku ntebe zikozwe mu mbaho aho bari gusubiramo amasomo yabo batsinda, bamwe muri bo bafite udukoresho duteranya, tukanakuba, tukanagabanya imibare.

Abanyeshuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano z'umweru n'ikigina, bicaye neza ku ntebe zabo mu matsinda aho bari gukora imikoro umwarimu wabo yabahaye, bari gukoresha udukoresho tw'ikoranabuhanga dukoreshwa mu guteranya, kugabanya ndetse no gukuba imibare.

Amashuri manini akorerwamo ibijyanye n'uburezi, imbere yayo hari ibiti by'inganzamarumbo abanyeshuri bicaramo mu gihe cyo kubabuka hari kandi n'ibibuga bikinirwamo imikino itandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari mu cyumba cy'ishuri aho bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, aba bakurikiye umwarimu uri imbere yabo na bo bandika mu makaye yabo ari imbere yabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bicaye neza mu cyumba bakoreramo ubushakashatsi bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga urugero twavugamo nka mudasobwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bicaye neza ku ntebe z'ishuri mu cyumba gifite ibara ry'umweru, aba bari gufashwa n'umwarimu wabo gukora imikoro iri mu gitabo bigiramo.

Abanyeshuri bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'ubururu bwijimye bari mu kinyabiziga k'imodoka aho batwawe n'umugabo ubajyanye ku ishuri, hari kandi n'amatente manini afite amabara y'umweru ari ahantu hateguriwe kuba ibirori.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barimo umwe wambaye isaha y'umukara, bari hamwe aho bari gusubiramo amasomo yabo bakoresheje ibikoresho birimo amakayi, urupapuro ndetse n'ikaramu.

Umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye w'umuhungu ndetse ari kumwe na mugenzi we w'umukobwa bari imbere ya bagenzi babo aho bari kubasobanurira ku bijyanye n'ingingo bari kuganiraho, aba kandi bari kumwe n'umurezi wabo wambaye imyambaro imwubahisha.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru zigena, biga mu mashuri yisumbuye mubijyanye n'ubumenyi bwo gukora amashanyarazi, bari mu cyumba cyabugenewe aho bari gukora ubushakashatsi bakoresheje ibyuma by'amashanyarazi.

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'umukara, ari imbere y'imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aba bari kuganira ku ngingo zitandukanye zirebana n'ubuzima, bari kandi imbere y'ishuri ryabo ryubakishije amatafari ndetse risize amarangi y'ubururu n'umukara.

Amarembo magari akoze mu byuma yanditseho n'inyuguti z'umweru aha ikaze abantu binjira kuri icyo kigo k'ishuri, imbere harimo ibiti birebire abanyeshuri babyicara munsi iyo bari kuganira.

Inyubako yubatswe mu buryo bugerekeranyije yubakishije amatafari, isize amarangi y'umuhondo n'ubururu, imbere y'iyo nyubako hari imbuga ngari abanyeshuri bakiniramo imikino irimo nk'umupira w'amaguru iyo bari mu gihe cyo gukina.

Icyumba cyabugenewe cyo ku mashuri kibikwamo ibitabo by'amasomo atandukanye. Ibi bitabo bikoreshwa n'abarim iyo bari gutegura amasomo cyangwa se n'abanyeshuri iyo bari gukora ubushakashatsi cyangwa banasubira mu masomo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru n'umukara, bicaye neza mu byatsi bitoshye biri imbere y'amashuri yabo. Aho bateraniye hamwe bakurikiranye ikiganiro bari kugezwaho n'umuntu uri imbere yabo.

Abanyeshuri bambaye imyambaro ifite amabara y'umweru n'kigina biga mu mashuri yisumbuye bari mu nzu nini ikorerwamo ibijyanye no gusenga, aba bicanyi mu ntebe zifite amabara y'umweru aho bakurikiranye inyigisho padiri ari kubagezaho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano zifite amabara y'umweru n'icyatsi kibisi. Aba bicaye neza mu ntebe ndetse bari gusubiramo amasomo yabo mu matsinda bafite ibipapuro byanditseho ibizami bamaze gukora.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye , bambaye imyenda ifite amabara y'umweru n'ubururu, bateraniye mu bwatsi buri imbere y'amashuri yabo, aba batoye imirongo ndetse bari gukurikirana inama n'ibiganiro bari guhabwa n'umurezi wabo, uri imbere.

Ikigo k'ishuri ryubakishije amatafari ahiye n'isima. Iri shuri risize amabara y'umweru n'umuhondo ndetse risakaje amabati. Rifite kandi umuriro w'amashanyarazi abanyeshuri bakoresha mu bushakashatsi ndetse ukanabonesha mu gihe k'ijoro.

Igishushanyo cyashushanyijwe n'umunyeshuri wiga ibijyanye n'ubugeni, kirerekana umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ubwatsi butoshye, iruhande rwawo hari ibiti birebire by'inganzamarumbo ndetse n'inzu ituwemo n'abantu.

Inyubako yubatse neza, igerekeranyije, ifite amabara y'umweru, ikorerwamo ibijyanye no kwigisha abanyeshuri muri kaminuza, imbere yayo hari ubusitani burimo ubwatsi butoshye n'indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi n'umuhondo.

Icyumba gifite amabara meza ndetse gikozwe mu buryo bugezweho, kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu, irimo abagabo, abagore n'urubyiruko, aba bakurikiranye umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho ikiganiro, akoresheje ikoranabuhanga.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bari mucyumba cyiza cy'ishuri gifite amabara y'umweru, icyatsi kibisi, nu'ubururu, aba bicaye neza ku ntebe zabo batandukanye ndetse banambaye ubupfukamunwa kugirango batanduzan indwara z'ubuhumekero.

Inzira y'abanyamaguru ishashemo amatafari, ikikijwe n'ubusitani burimo ibyatsi bitoshye ndetse n'indabo zibereye ijisho, aha niho abanyeshuri bicara iyo bari kuganira ku masomo yabo cyangwa se no ku buzima busanzwe.

Akayira keza k'abanyamaguru gakoze ,ndetse gasize amarangi y'umweru n'umukara .Hirya yako hari indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi n'umuhondo ,ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti birebire, abanyeshuri bicaramo iyo bari kuruhuka.

Aha hateganyijwe kubera iminsi mikuru, hari abagabo bambaye imyenda ibubahisha ndetse n'umuntu wambaye ikanzu igaragaza ko yasoje amashuri hari kandi n'umugabo uri kumuha impano kuri uwo munsi mukuru wo gufata impamyabushobozi.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza bari mu ntebe nziza ziri mu bwatsi butoshye. Aba bari gusubiramo amasomo yabo bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefoni zabo ndetse banafite ibipapuro by'ibizamini mu ntoki zabo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bari mu cyumba gitangirwamo amasomo. Aba bakurikiye umwarimu w'umugore uri imbere yabo, uri kubigisha akoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo nka mudasobwa ndetse n'ikindi gikoresho gifata amashusho n'amafoto.

Itsinda rigari ry'abantu biganjemo urubyiruko, bicaye mu ntebe zikozwe mu mbaho, bari ahantu hateganyirijwe kubera inama, aba bakurikiranye umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu riri imbere yabo riri kubagezaho ibiganiro.

Inzu nini ya kaminuza iberamo ibijyanye n'imikino n'imyidagaduro irimo abanyeshuri ba kaminuza bicaye neza ku ntebe ndetse banafite ameza imbere yabo, aba bakurikiranye ibiganiro bari guhabwa n'itsinda ry'abantu baje kubaganiriza.

Imbere y'inyubako ya kaminuza ifite amabara y'umweru ndetse igerekeje, hari ubusitani bwiza burimo igiti kirekire, aha n'aho abanyeshuri bicara iyo bari kuganira ndetse banafata akayaga, hari kandi n'inzira ishashemo amatafari y'abanyamaguru.

Igishushanyo cyakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza, iki kirerekana igiti kinini k'iganzamarumbo, gifite amashami manini. Hari kandi n'akanyamaswa ko mu ishyamba, kazwiho gukunda kwirira ibyatsi.

Inzira nyabagendwa y'abanyamaguru ishashemo amatafari. Iyi nzira isize amarangi y'umweru n'umukara ndetse ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti n'ubwatsi butoshye abanyeshuri bicaramo iyo bari kuganira ku masomo yabo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye bari mu cyumba cyabugenewe cya kaminuza gitangirwamo amasomo ndetse n'abanyeshuri bakagisubiriramo amasomo, muri icyo cyumba harimo intebe zikoze neza zifite amabara y'ubururu abanyeshuri baba bicayemo.

Icyumba cy'ishuri ryiza, ririmo intebe ndetse n'ameza akoze mu mbaho, harimo kandi abagabo babiri, bambaye imyenda idoze mu bitenge. Aba bafite imashini, izwiho kuba yandika ku mpapuro.

Abanyeshuri ba kaminuza bari mu cyumba gisize amabara meza. Aba bari kuganira ku bijyanye n'amasomo n'ubuzima busanzwe bicaye ku ntebe nziza zakorewe abanyeshuri zifite amabara y'ubururu.

Ururabo rwiza ruconze neza mu ishusho nziza, hari kandi n'inzu yigirwamo n'abanyeshuri ba kaminuza yubatswe mu buryo bugerekeranyije, hari n'ubusitani bwiza abanyeshuri bicaramo iyo bari kuganira.

Urugi runini rugezweho, rukozwe mu mbaho za kijyambere, uru rugi rurerekana ahari isomero rikoreshwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza, iyo bari gusubiramo amasomo yabo cyangwa se bakora ubushakashatsi.

Abiga muri kaminuza, bari mu cyumba kinini gikorerwamo ibizamini ndetse kikanatangirwamo amasomo. Aba banyeshuri bicaye neza ku ntebe, bafite ibipapuro byanditseho ibizamini ndetse n'amakayi bari gusubirizamo.

Ishuri rya kaminuza rifite amabara y'umuhondo ndetse rikaba ririmo n'intebe zikozwe muri purasitike zifite amabara y'ubururu. Izi nizo abanyeshuri bicaramo iyo bari kuganira ku bijyanye n'amasomo yabo bayasubiramo.

Itsinda rigari ry'abanyeshuri bambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru biga muri kaminuza bari ahateganyirijwe kubera ibiganiro ndetse n'inama. Aba kandi bafite amacupa y'amazi ari imbere yabo.